Inzu ifite hejuru hubakishijwe ibyuma n'inkuta z'umutuku zisizemo amarangi g'umweru, ikaba ifite amatiyo ndetse gasa umweru n'icatsi gatwaraga amazi mu nzu.

Umuntu wambaye ishati y'ubururu, uri mu cumba c'amatafari gahiye, cubatswemo amaravabo gakozwe n'amakaro, garimo ibyuma bifasheho ibirahuri birimo amaporoduwi ga shimi.

Itsinda ry'abantu b'abahungu n'abakobwa bari gukora amakaro, hasi bambaye ibitaburiya by'ubururu, akaba aribyo bifashishaga mu gihe bari kwiga iyi myuga yo kubaka cane aga makaro.

Inzu yubakishijwe amatafari matoya, ifite urukuta rukoreshejwe ibibaho, mo imbere harimo icuma bakoreshaga bari kugaragaza amashusho, n'intebe ziriho amakompiyuta bikoreshaga bari kwigisha abantu.

Abantu batanu barimo abanyeshuri bane bambaye amashati g'umweru, n'amapantaro g'ubururu bari kumwe n'umugabo wambaye ibitenge, kubi bigisha uburyo bavuzaga ibyuma bikoresha umuziki.

Inzu yubakishijwe amatafari magufiya n'amadirisha gasize amarangi g'ubururu, imbere yayo hari abana bambaye inifomu z'ubururu, bafashe impapuro barimo barashushanya bicaye ku ntebe zo mu ishuri.

Abanyeshuri bari mu cumba c'amashuri bicaye ku ntebe bigiragaho, bari gukora ibizamini bambaye inifomu z'amashati g'umweru n'amapantaro g'ubururu, barimo gukora ikizame.

Itsinda ry'abakobwa ryicaye mu ishuri jy'umweru, abakobwa bambaye inifomu y'amashati y'umweru n'ag'ubururu, bicaye imbere y'imashini zifashishwaga mu kudoda imyenda. Ubu bukaba ari uburyo bwifashishwaga mu kwigisha abantu kudoda cane cane mu mashuri g'imyuga.

Inyubako y'umweru ndende ifite umunara hejuru yayo imbere yayo hari igipangu gikikirimo ubucaca buririmo ibiti ndetse n'iminyenga z'abana bakoreshaga barimo kujya iminyenga.

Icumba kirimo abanyeshuri b'urubyiruko bambaye ibit amataburiya g'igitaka, mu cumba harimo n'ameza gariho ibikoresho byifashishwaga mu kubaza bukaba ari ubujyo bukoreshwaga mu kwigisha abanyeshuri bari kwiga imyuga zo kubaza.

Inyubako zisakarishijwe amabati g'ubururu n'imiryango z'ubururu, imbere yazo hari abanyeshuri bambaye amashati g'ubururu n'amapantaro cyangwa amajipo g'umuhondo akaba ari abanyeshuri bigaga mu bigo cane bya segonderi.